Uburezi bw'ibanze nabwo bugomba kuba imbere cyane kuko nabwo bugomba kubaho kugira ngo bigishe abana uko baziteza imbere ndetse n'ibindi, uko bakwihangira imirimo...

Ishuri ryigisha umwuga wo gukora inkweto . Gukora inkweto ni byiza cyane, kuko bitanga amafaranga, umuntu akaba yava mu bukene.

Abagabo bambaye ibisurubeti by'ubururu n'ingofero z'umuhondo, bari kubaka. Abafundi, ubufundi ni akazi gatanga amafaranga ku bantu bagakora no kubakira abantu.

Abanyeshuri bari kwiga guteka, none bari gutesitinga ibintu bakoze mu mashuri, kugira ngo nibava mu ishuri bazabashe kwiteza imbere.

Ahantu hari ibitabo bitondetse mu tubati wagirango ni mu isomero, hariho n'intebe zo gusomeho iki cyumba kiriho amarangi y'umuhondo n'ubururu.

Abanyeshuri bari kugerageza ibyo bakoze mu mashuri, ubumenyi ni bwiza, butuma abantu benshi biyungura ubumenyi butandukanye.

Abana bari kwiga ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni ryiza cyane kuko turikoresha turi guteza igihugu imbere, ndetse turi gushaka n' amafaranga.

Icyumba kirimo intebe n'ameza, bisa nk'aho bigishirizamo, kuko imbere hariho ikibaho, hirya y'aho hariho n'umuntu.

Ishuri ririmo abahungu n'abakobwa, imbere yabo hariho mwarimu ari kubabaza, hari abanyeshuri babiri bamanitse, bashaka gusubiza.

Abanyeshuri bari kwiga ibijyanye n'ubufundi，muri kubona ko bishimye，bitewe n' ibintu bajya bariga，kubera ko bizabagirira akamaro.

Abagabo babiri bari gupima urubaho, aba bantu biragaragara ko ari ababaji. Ububaji ni umwuga mwiza, utanga amafaranga.

Ishuri ry'abakobwa bigisha gutunganya inzara. Gutunganya inzara ni ibintu bikunzwe cyane n'abamama, kuko bakunda gucyesha inzara zabo neza kugira ngo babashe kuba neza.

Ihuriro ry'abagore abakobwa n'abakecuru, bari kwiga kuboha ibikoresho byo hambere byakoreshwaga hambere, kuko byari bifite akamaro kenshi ,ko gutwaramo ibintu.

Leta y'u Rwanda yashyizeho uburezi kuri bose, ku bahungu ndetse n'abakobwa bakiga, ndetse bari kunogerwa n'ibyo baba bari kwiga.

Ishuri ry'abakobwa ryigisha kudoda , bambaye iniforume y'umweru n'umukara ni abakobwa gusa.

Abanyeshuri bari kugerageza ibyo bize mu ishuri, gukora neza, gusubiramo ibyo wize, bituma umuntu amenya neza icyari kwiga ndetse n'icyo ari gukora.

Abanyeshuri bari muri raburatwari barikureba ukuntu babyaza umusaruro ibitunguru , bambaye iniforume z'umweru n'umukara.